Aha ni mu bitaro hakaba harimo abaganga batatu n'umurwayi umwe bari gukorera operasiyo, nko kumubaga cyangwa se gutesitinga amaso ye.

Iyi ni inzu icururizwamo imiti, ni forumasi. Muri rusange, ikaba irimo umuganga urimo guhanika imiti abaha abakiriya bagomba kuyibona.

Iki ni igiti cyitwa ikibonobono, kikaba kiri iruhande rw'ishyamba ariko ishyamba rizitiye, rifite urugi rw'icyatsi rwa senyenge.

Aya ni amatunda y'imbuho atarera bikaba bigaragara yuko akiri imiteja akaba ategereje ko yera akaribwa.

Ibi ni ibyatsi byitwa kapusine, bikaba bikoreshwa nk'umuti gakondo uvura imihogo, ukavura mu nda, ukavura imisonga yo mu mutwe n'ibindi.